Ni abantu bari mu nama hakaba hari uwo bahagurukije, akaba agiye imbere gutanga ibyifuzo cyangwa se ibisobanuro.

Ni abakozi ba leta, bari bari guhabwa inyigisho z'uko bazajya bayobora neza abaturage n'abaje babagana.

Ni abaturage barimo gukora ikizamini akaba barimo n'umwarimu uri kugenda abafasha, abafasha kubasobanurira ibyabananiye.

Ni amapoto abiri atandukanye, rimwe ricaho insinga zishishuye, irindi rigacaho insinga zidashishuye, ariko ayo mapoto akaba ari ahantu mu biti.

Ni umuriro w'amashanyarazi wegereye kamera, hakaba hari n'aho banaga imyanda ibora n'itabora kugira ngo bidateza umwanda mu gihugu.

Ni ahantu hakorerwa ubuvuzi hahurira abaturage benshi, baje kwaka serivisi zo kwivuza. Bigaragara ko hari n'akajaride umuturage arwaye cyane yumva ashaka kuruhuka yakwifashisha, akaba aryamyemo.

Ni inzego za polisi zishinzwe umutekano zari zirimo kuzimya ahantu zifashishije kizimyamowoto, hari hafashwe n'inkongi y'umuriro.

Ni ku bitaro bya polisi, biherereye Kacyiru aho abarwayi barwaye bakomerejwe boherezwa, ariko hakaba hivuriza n'abapolisi n'abashinzwe umutekano.

Ni kizimyamoto ebyiri zitandukanye, zifashishwa mu kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi z'umuriro bitateguwe, bakaba bashaka guhagarika umuriro, bifashisha utu tuntu kizimyamoto.

Ni umupolisi wari wagiye ku kigo cy'amashuri, kwigisha abana uko bazajya bakoresha kizimyamwoto mu gihe habaye inkongi y'umuriro.

Ni abasekirite bari kwerekwa, ibyo bazajya barinda, kugira ngo bitangizwa n'ibikorwa runaka, cyangwa se abaturage bandi, baturutse ku mpande no ku mpande.

Ni umukuru w'igihugu wari uri gusuhuza abaturage bigaragara ko abishimiye kandi na bo bamwishimiye muri cya gihe cy'amatora bazamushyigikira.

Ni umukandida wari wiyamamarije kuyobora igihugu cy'u Rwanda, wari uri kwivuga imigabo n'imigambi azageza ku gihugu cy'u Rwanda.

Ni umubyeyi wo mu Rwanda, wari ufite urwandiko aje kurushyira mu kabokisi kagenewe ibitekerezo kugira ngo bazabisome.

Ni abayobozi barimo gufasha abana bisa nk'aho ari imfubyi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, bari bishimye cyane bigaragara nk'aho babakoreye ikintu cyiza.

Abantu benshi bari kwamamaza uyu mukandida wiyamamarije kuba perezida kugira ngo arebe ko yabona amajwi agatorwa bari bishimye cyane.

Ni imodoka itwara imizigo, ariko nta mizigo ifite igiye kuyishaka, hari n'umumotari nawe udafite umugenzi ari gushaka abagenzi.

Ni imodoka ya twegerane itwaye abagenzi ibavanye ahantu hamwe ibajyanye ahandi bagiye.

Ni imodoka iri kugenda mu muhanda ariko ikaba uwo muhanda wegereye ishyamba cyangwa se igihuru kidatemye, bigaragara ko cyaba kirimo n'ibisimba.

Ni igice cy’ Umujyi wa Kigali gituwemo n'abaturage benshi, hari n’ikigega cy'amazi.

Ni ahantu hari urujya n'uruza rw'abaturage ariko hakaba hari inzu zitahamo abantu n'abamotari benshi baba bari kubageza mu ngo.

Ni ahantu mu gice kimwe cy'i Kigali, ahantu hitwa i Remera hatuye abaturage benshi cyane, bigaragara ko hakorerwa n'ibikorwa bitandukanye.

Ni ahantu imihanda ihureye, ariko muri aho hantu imihanda ihuriye hakaba hateretsemo kamera, ifata ibinyabiziga byarengeje umuvuduko wa mirongo itandatu.

Ni ahantu hari kugenda abaturage, bari kunyura mu muhanda uciye munsi y'ikiraro, hakaba hejuru hari no kugendaho imodoka, hejuru y'icyo kiraro.

Ni igice cyo mu muhanda cyagenewe kwambukiramo abanyamaguru, hirya yacyo hakaba hari abamotari benshi n'imodoka nyinshi.

Ni ikiraro, ariko icyo kiraro hejuru yacyo hakaba hariho umuhanda, unyuraho imodoka hasi naho hakaba hariho umuhanda unyuraho imodoka n'ibindi binyabiziga byose.